Ni inzu ndese, iriho amabara y'icyatsi ndetse n'ibyuma bigiye biyikikijje ku mpande bisa umweru, n'urugo rw'amatafari ahiye.

Umugore arahagaze mu muhanda ,ni umuhanda mugari ucamo imodoka ndetse n'abanyamaguru, iruhande rwe hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ndetse ari iruhande rw'ibiti bigari ndetse binini cyane.

Ni abantu barenze umwe benshi bari kwa muganga, harimo umugore wambaye agapfukamunwa umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu ndetse umugabo wunamye ari kuvugana n'undi mugore.

Ni umugabo arahagaze imbere y'abandi, asa nk'aho ari mu nama bari kumubaza ibintu byinshi bitandukanye, inyuma ye hari abandi hari abicaye hasi ndetse n'abahagaze bari kumva ibyo bamubaza.

Abaturage bari mu nama , ni benshi ababyeyi , abagabo , abasire ndetse n'inkumi. Hari uhagaze uri kumva imyanzuro. Ababyeyi bicaye bafite imitaka bari kumva neza ibyo bababwira.

Ni umuhanzi nyarwanda uzwi nka Kizito Mihigo. Umuhanzi uririmba indirimbo zikunzwe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yambaye ishati y'umutuku ukeye ndetse arasoma igitabo hari abari iruhanderwe bari kumva ibyo avuga.

Abantu benshi bicaye ahasa nko mu nama bari kureba. Hari abandi babiri umwe afite idarapo ry'igihugu cy'uRwanda ririmo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Ni idarapo rigaragaza uRwanda ruba mu bihugu bigari by'iburasirazuba.

Ni abantu benshi. Ni bane. Batatu ni abagabo, umwe ni umugore. Bambaye udupfukamunwa, bari kureba muri mudasobwa zabo. Bambaye amakote ndetse n'amapantaro, basa nk'aho bari mu nama.

Ni umugabo munini wahoze ari umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda kugeza mu w'igihumbi magana icyenda mirongo icyenda na kane, yitwa Habyarimana.

Ni abantu b'abagabo nabe, bicaye ku meza ariho amadarapo y'ibigo ndetse n'ibihugu bitandukanye. Bamwe bambaye ingofero z'umweru, undi yambaye igitambaro n'amadarubindi, ndetse hari n'umunyamahanga.

Umugabo ari mu kazi. Afite igare ririho imifuka itanu, irimo ibiribwa. Ari mu kazi kandi arahuze. Yambaye ingofero y'umweru ngo yikingire izuba.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitatu: harimo imodoka y'amapine ane, ndetse n'indi y'amapine atatu. Ziri kugenda mubyerekezo bibiri bitandukanye. Imwe y'amapine atatu isa ibara ry'ubururu, ndetse iy'amapine ane isa ibara ry'umweru wijimye.